Ibikoresho by'imbuto byifashishwa mu kwigisha abana batoya, uburyo ibintu bigabanywamo kabiri, kimwe cya kabiri cy'ikintu cyangwa se umusate w'ikintu runaka. Izo mbuto zigizwe n'inyanya, pome n'izindi zitandukanye.

Udukoresho dutandukanye dukoreshwa mu burezi bw'ibanze, mu kwigisha amabara. Utwo dukoresho tugizwe n'amabara y'icyatsi, ubururu, umuhondo n'ikigina.

Igikinisho gikozwe mu buryo bwa moto ndetse ifite n'umutaka gikoreshwa mu myigishirize y'uburezi bw'ibanze. Iki gikoresho gifite ibara ry'umutuku amapine yayo ni umukara.

Kandagira ukarabe iri mu kigo k'ishuri k'ibanze, ifite akabase k' ikiroza, kandi ifite indobo nini irimo amazi agenda avamo igihe bakaraba akagwa muri ka kabase ,mu buryo bwo kwirinda kuba yagwa hasi.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu burezi bw'ibanze aho umwana ashobora kwicara muri icyo gikoresho kikamuha umunyenga, ibi bikoresho kandi bishobora gukoreshwa muri pisinine z'abana kugira ngo birusheho kunezeza abana.

Ishuri ritangirwamo uburezi bw'ibanze; aho rifite igikuta gishushanyijeho ibice bitandukanye bigize umubiri w'umuntu. Hariho ishusho nini ishushanyije mu buryo bw'amagufa agize umuntu kandi iryo shuri rifite ibaraza rinini rikoteye na sima.

Agakoresho gafite amabara atandukanye k'inguni zitandukanye gakoreshwa mu burezi bw'ibanze, aho kagizwe n'amabara y'icyatsi, ubururu, umuhondo, umutuku ndetse n'ikigina. Aka gakoresho gashobora gufasha abana muburyo bwo kubaka inguni.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi bw'ibanze, mu kwigisha amabara atandukanye agize ibikoresho bitandukanye, hari ibara ry'icyatsi, ibara ry'ubururu, iry'umutuku ndetse n'iry'igitakazi.

Umwana mutoya cyane wicaye hasi, uri kumwe n'udukoresho turi mu buryo bw'inyamaswa z'agasozi, dushobora kwifashishwa, mu kwigisha abana bakiri batoya, kugira ngo bamenye ubwoko bw'izo nyamaswa; harimo: impara n'imparage, intare, inzovu ndetse n'ibindi.

Ibiziga bibiri binyuranyemo, ikiziga kimwe kirimo inyuguti ya a, ikindi kiziga kirimo inyuguti yaba ba kandi hasi iruhande rw'ibumoso, hariho inyuguti ya u.

Umwarimu uri mu cyumba kinini cy'ishuri, aho ari kwigisha isomo ry'ubutabire. Yambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara. Ishuri arimo ririmo ikibaho, imbere ye hateretsemo ameza hariho ingwa, igitabo, ndetse n'agatsibakibaho.

Udukoresho dukoreshwa mu burezi bw'ibanze, tw'amashusho y'abagabo bagaragara nk'aho ari intore, hasi bakeneye udushura tw'umuhondo, hejuru bambaye utu tw'igitakazi, ku maboko haciyeho uturongogo tw'ubururu. Utu dushusho twifashishwa mu burezi bw'ibanze bereka abana intore uko ziba zambaye.

Icyumba kinini k'ishuri k'isomero kirimo ibitabo bitandukanye. Aho ibitabo byinshi bitondetswe hakurikijwe ubwoko bw'ibitabo. Ibi bitabo bifite amabara atandukanye: umutuku, isinine, icyatsi, ubururu n'ibindi.

Uburyo bwo kwigisha abana kubara binyuze mu gukora igice cy'uruziga ukagenda wandikaho imibare itandukanye uhereye ku wa mbere ukageza kuwo ushaka kugezaho, ubu buryo ushobora kubukoresha ukoresha amabara atandukanye kugira ngo babashe kumenya umubare bagezeho.

Ibikoresho bikoreshwa mu isomo ry'imibare yo mu burezi bw'ibanze, harimo amati atandukanye, irate rirerire ry'impande eshatu zitangana, iry'impande eshatu zingana, n'iry'ice rcy'uruziga, ikaramu y'igiti ndetse n'agakaramu gatoya k'igiti.

Ikigo cy'ishuri ribanza cyiswe wizidomu hayi sukuru ikigo cyita cyane ku burere bufite ireme, iki kigo cyigisha cyane cyane ibijyanye n'indimi aho umwana waho ashobora gusoza ishuri ribanza azi indimi zitandukanye kandi azizi neza.

Icyumba kinini kirimo ibikinisho bitandukanye bikoreshwa mu burezi bw'ibanze, aho bimwe birambitse hasi ibindi birambitse ku meza, ku tubati ibindi byometse ku bikuta. Iki cyumba hasi gifite amakaro y'ikigina hejuru bifite amatara manini.

Abanyeshuri bose bateraniye hanze muburyo bw'uruziga, aho bari kwidagadura ndetse bakangishwa ibindi bikorwa byose bijyanye n'ishuri muri rusange.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa mu burezi bw'ibanze, iki cyumba kirimo ameza ndetse n'utudobo turimo utwuko turiho amabara atandukanye yanditseho imibare, utu dukoresho kandi dufite imibare itandukanye.

Udukoresho dutandukanye turimo udukoresho twifashishwa mu burezi bw'ibanze harimo isaha, amarati, udukinisho, utubumbye, udufite amabara atandukanye ubururu, icyatsi, umutuku ndetse n'ayandi.

Ibikoresho bikoreshwa mu isomo ry'imibare, harimo amanota atandukanye, irate ry'impande eshatu zingana, impande eshatu zitangana, irate rirerire, irate ry'uruziga rw'igice ikereyo, ariyo karamu y'igiti agasongorakaramu y'igiti, urucaruziga ndetse n'urucampande.

Ikigo cy'amashuri kigezweho k'inyubako igeretse, ikigo cy'amashuri kigizwe n'inyubako ndende itambitse iri mu mabara y'ubururu n'umweru, abarezi bahagaze imbere y'ikigo bambaye udupfukamunwa twose nk'aho bakiri mu gihe gikomeye cya Covid, kandi hahagaze umusirikare wambaye impuzankano.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, bikoreshwa mu mashuri y'ibanza, harimo ibitabo, amakaramu, amakayi ndetse n'udukoresho tw'udukinisho.

Icyumba kinini cyo mu burezi bw'ibanze kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa muri ubwo burezi, ibyo bikoresho bigize inyuguti zitandukanye zimwe ziri ku meza, izindi ziri hejuru mu tubuwate.

Ibikoresho bikoreshwa mu isomo ry'imibare, harimo amaota atandukanye, irate ryapande eshatu zingana, irate ry'uruziga rw'igice irate rirerire, ndetse na mpande eshatu zitangana ariko kandi harimo n'incaruziga.

Abanyeshuri bahagaze bose bambaye impuzankano hasi umukara, hejuru ubururu, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, bari kumwe n'umwarimu wabo wambaye umukara hasi n'ishati ya karokaro, ariko kandi bari kumwe n'abashinzwe umutekano bambaye imyenda y'igitaka hasi.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru yisumbuye, bari mu ishuri rinini cyane, baricaye bose, hahagazemo umwarimu ufite indangururamajwi mu ntoki, yambaye ishati y'umukara ari kwigisha.

Icyumba kinini cy'ishuri ryisumbuye, kirimo abanyeshuri bicaye, babiri bahagaze, iki cyumba kirimo intebe zitandukanye ziteye mu buryo butandukanye, aba banyeshuri bameze nk'aho bari kwiga isomo ry'ikiganiro mpaka.

Icyumba kinini cy'ishuri kirimo ameza maremare ndetse n'intebe. Icyumba kirimo ikibaho abanyeshuri bicaye kuri izo ntebe bamwe bandika abandi batandika, bambaye iniforume ndetse amashati y'umweru hejuru hasi umukara.

Icyumba kinini cy'ikigo cy'ishuri ryisumbuye kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu bushakashatsi ku banyeshuri biga imyugangiro, harimo igikoresho kinini cy'isanduku kibitswemo ibikoresho bitandukanye ameza manini arimo udukoresho dutandukanye dukoreshwa mu myuga ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye harimo abanyeshuri ndetse n'umwarimu bafashe.

Umwarimu w'umu mama wambaye neza, uhagararanye n'umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye, ari kumuhereza impamyabumenyi akuye muri iryo shuri.

Icyumba kinini cy'ishuri ryisumbuye, kirimo abanyeshuri bambaye impozankano hejuru, umweru hasi umukara, bari kumwe n'umwarimu wabo, wambaye neza w'umumama, ufite imisatsi miremire.

Icyumba kinini cyane gikorerwamo ubutetsi cyo mu ishuri ryisumbuye, icyumba gifite amasafuriya manini atekwamo ibiryo bigaburirwa abanyeshuri n'abarimu kandi arapfundikiye, abakozi baho bambaye amajire y'icyatsi atambitsemo uturango tw'umweru.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda kinini gifungwa n'amaburo ndetse hifashishijwe ipensi. Igitanda gishashe neza kiriho amashuka y'umutuku ndetse n'irindi rijya gusa n'umweru.

Abanyeshuri bari mu cyumba kinini cy'ubushakashatsi bambaye impuzankano y'icyatsi, bari kumwe n'umwarimu ubafasha muri ubwo bushakashatsi, bafite ibikoresho bifashisha mu bushakashatsi, amakaye n'amakaramu bakoresha bandika ibyo bakuye mu bushakashatsi, icyo cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye: ameza, intebe ndetse n'ibindi.

Ikayi ntoya n'urupapuro, birambitswe ku ntebe nziza y'ubururu, biri mucyumba kinini kirimo amakaro.

Abanyeshuri bari mucyumba kinini cy'ishuri ,bafite impamyabumenyi mu ntoki ,kandi bambaye imyenda yambarwa igihe umuntu yahawe impamyabumenyi ,Iyo myambaro igizwe n'ibara ry'ubururu, ririmo umuhondo, umukara, ndetse n'ingofero bose z'ubururu.

Imitako gakondo ikoreshwa mu gutaka inzu kugira ngo ise neza, iboshywe mu budodo butandukanye kandi idozwe mu buryo butandukanye, imitako igaragara iri mu nzu itatse ahantu hatandukanye, igikuta cy'iyo nzu gifite ibara ry'ubururu.

Ibyuma biri gusa ubururu biri mu nyubako byifashe nk'intebe, iyo nyubako ikaba ifite ibirahuri bibonerana ndetse ikaba ifite amakaro asa igitaka hasi.

Abanyeshuri bari kugenda mu mihanda, umukobwa yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, afite igitabo mu ntoki, afite n'imisatsi miremire, arikumwe n'abandi bantu batatu, barambukiranya umuhanda.